Umuhinzi uri gutera umuti akoresheje ipombo nkuko' bigaragara ko ari gutera umuti mumyaka, bigaragara ko ashobora kuba ari ibirayi ari gutera umuti akoresheje ipombo ahetse mu mugongo, akaba ari umuti batera imyaka kugira ngo barinde indwara cyangwa hakabamo n'amafumbire asukika.

Gutera umuti imyaka nka voka, kuyitera imiti yica udukoko kugira ngo utaza kumera neza ushobora kuba washyiramo n'amafumbire , uko uri gukoresha icyuma kandi ukaba bafite ibikoresho by'ubwirinzi kugira, ngo bitaza kubangiriza ibihaha, cyangwa bikaba bizabatera indwarakoreshasha icyuma kandi bayikoresha kurusho by'rinzi tukwirinda kugira ngo bitabatera indwara.

Imifuka yashyizwemo umusaruro ukokomoka ku muceri cyangwa ku ikawa. Uteguriwe kujyanwa ku isoko mu gihe icyo ari cyo cyose wajyanwa ku isoko kubera ko wamaze gushyirwa mu mifuka yabugenewe.

Umuti ukoreshwa mu buhinzi, ugaragara nk'umuti wo gushira ku myaka yamaze gukura, kugira ngo byongere imbaraga cyangwa bigire amababi menshi cyangwa akomeye, kuko bigara ko ari umuti wo gushira ku myaka....

Umuhinzi uri gushyira ifumbire ku gihingwa cye, kubera ko ari kugifumbira kugira ngo gikomeze kimere neza, kigire imbaraga gifite n'amababi meza kugira ngo azabashe kubona umusaruro mwiza, ari gushyira ifumbire ku rugemwe rw'imbuto ashaka gukuza.

Iyi ifoto igaragaza imiti yica udukoko. Uko bigaragara ko ari imiti ishobora kwica udukokoti amayinsekite cyangwa udusimbu duto dushobora kuba twakwangiza. Akaba ari imiti y'ubwoko bugiye butandukanye yo kwica udukoko. Bigaragara ko ariko kuyo kurinda imyaka cyangwa kuyikoresha mu umusaruro wamaze kuboneka uri hanze cke kuyikoresha bikiri mu murima.

Sitoke cyangwa ububiko bw'ifumbire y'ibihingwa bigaraza kwari icyayi cyangwa ibindi mugaragara ko iteretse ku ma parede kugirango ngo itaza kugira ngo itazakonga, n'ububiko bugari cyane ifumbire y'imyaka itandukanye, ariko ko bigaragashwa kuba ari ifumbire y'ikawa cyangwa y'icyayi.

Indege iri gutera imiti mu murima yifashe indege iri gutera imiti mu murima, umurima ukoresheje uburyo bwo bwo gutera hejuru, ukaba ari indege kubakoreshwa no gutera amazi, cyangwa gucucira kuko ko bigaragaraba biri gutera ibintu bimeze nk'intsikaba ari imiti yo gutera mu bihingwa bikoreshwa ku buhinzi buteye imbere bw'ahantu bw'ubuso bunini.

Ububiko bw' ifumbire, ifumbire ya ire, igaragaza ko iri mu mifuka, ifumbire y'abahinzi, umufuka umwe umwe wuzuyemo ibiro igihumbi magana atatu, akaba ari imifuka myinshi bigaragara ko ari ububiko bwayo.

Imifuka y'ifumbire yogutera ku myaka kugira ngo ibashe gukura neza . Igaragara ko ari ahantu bayicururiza . Kubera ko imifuka myinshi y'ifumbire y'uburyo butandukanye ,ishobora gukoreshwa mu buhinzi.

Umusaruro w'amafi yamaze kuribwa, ahishwe mu base cyangwa se mudobo akaba yiteguye kujyana kujyanwa ku isoko, amafi menshi atandukanye y'ubwoko bwinshi ari mu ndobo mu mubasi agiye kujanwa gucuruzwa.

Amafi yamaze kurobwa, agashyirwa mu bikoresho byabugenewe, aho aba ari gutunganyirizwa, ashobora kuba yajyanwa ku isoko. Bigaragara ko ari mu kintu bayashyiramo kugira ngo akomeze kumera neza. Mbere y'uko bayajyana ku isoko , cyangwa mbere yo kuyagabura muri hoteri cyangwa muri resitora runaka.

Amafi ya saruwe cyangwa amafi agaragara nk' akiri mu mazi, akiri guhumeka ashobora kuba yararobwe cyangwa atararobwa kuko ishusho ari nk' ubwoko bw' amafi aboneka mu Rwanda.

Bumwe mu bwato bigaragara ko buri mu mugezi hagati mu mugezi hariho imyaka akaba ari uko ari ubwato n'umugezi utuma umugezi utemba, mu mugezi utumba akabona aho kureba umugezi, uri gutembera mu mugezi utemba.

Isahani iriho amafi yatetswe, aho amaze kotswa cyangwa gukarushwa mu mavuta, ashobora kuba yahita aribwa, aribwa ako kanya cyangwa agakarangwa, nyuma yo gutekwa kugiran ngo akomeze kugira uburyohe, Ayo akaba ari amafi.

Amafi yashizwe mu nkangara, amafi amaze korobwa agashyirwa mu bitebo bigaragara ko ari umusaruro wa amafi menshi cyane bamaze kuroba bakaba biteguye kuzacuruza.

Umusaruro w'amafi yakawushijwe, agiye gucuruzwa bigaragara ko ar'amafi yamaze kurobwa, akaba yanitswe kugira ngo ajyanwe ku isoko, cyangwa akaba ari ku isoko, kuko bigaragara ko yamaze kurobwa, akaba ar'amafi yamaze gushwanyaguririka cyangwa kumenagurika.

Ikurete riri mu mafi bigaragara ko ari icyumba cyashyizwemo amafi, aho baterurira umusaruro w'amafi amaze korobwa, akaba ari amakureti yifashishwa mu gupakiramo aya mafi, kugira ngo abashe kuba afite umwuka muri yo, bari kuyaterura akajyanwa aho akenewe.

Ikiyaga cy'aho bororore amafi, icyuzi cyo borororeramo amafi nuko ari ahantu ho bororera amafi, ibyo bakoze atari karemano aho bigaragara ko hejuru buhubatse utuzu tw'amutungo magufi nk'inkwavu, kugira ngo bakomeze bongere umusaruro w'amafi bashyiramo ifumbire.

Ikibaya kiza cyane, kiriho imigezi, harimo ubwatsi bw'amatungo butoshye cyane, hakaba hari imyaka myiza yegereye umugezi, kuko isa neza cyane, nta kibazo ifite, hari umwana ufite igiti, usa nk'aho agiye kuroba muri uyu mugezi.

Aba barobyi, abantu bakora mu mirimo y'uburobyi ,iyo bakoresheje ibikoresho gakondo nka supaninete, bigaragara ko bari gufata amafi bakoresheje supanete mu mirimo yabo y'uburobyi bwa kijyambere kubera ko nta bikoresho byabugenewe bigaragara bafite.

Isahani iriho ifi iriho n'isosi ubonako ari ibiryo bihiye byiteguye kuba byaribwa, kuko byateguwe neza isahani irimo isosi irimo inyanya ndetse n'amavuta, n'ibindi bitari kugaragara bikaba ari ibintu byateguwe neza.

Ifi iri kucokezo ndetse hariho n'ininyanya ndetse n'ibindi bintu bacanira kugira ngo ize kuba imeze neza iryoshe cyane, bashyiramo inyanya ndetse n'ibindi bintu nk'urusenda n'utundi twatsi kugira ngo abashe gukomeza kuryongerera uburyohe. Ikaba iri bucanirwa ku icyokezo.

Umurima w'amajeri avanzemo n'imboga urimo amajeri avanze n'imboga, uko bigaragara ko ari umurima urimo ibihingwa byinshi bitandukanye :amajeri ndetse n'izindi mboga udakoreye neza, utabagariye harimo kuvanga imyaka cyane.

Umurima wa karoti uhinzwemo ibihingwa bya karoti mu mitabo, ahantu ho mu kibaya hagaragara ko ari ahantu hahinze karoti, hirya harimo ibihingwa by'ibirayi, ndetse n'ahantu hagaragara ko hadateye imbere cyane, hakorerwa imirimo y'ubuhinzi.

Ikibara kirimo ibyatsi bigiye bitandukanye, nkuko bigaragara ko ari ahantu hadahinze hatarimo imyaka koko hakuze cyane, hari ikigunda cy'ibyatsi byinshi cyane bakaba batarahahinze, hakaba hadaheruka guhingwa, hakaba nta myaka iheruka kujyamo.

Isambu irimo ibihingwa by'ibirayi, bigaragara ko ari ahantu h'imitabo hatewe imyaka y'ibirayi, ikaba ari imyaka bigaragara ko imeze neza isa neza, ishobora kuba kuzatanga umusaruro kubera ko ari nta kibazo wavuga gikomeye ifite, ariko ikaba irimo ibintu bidatunganye neza nk'ibyatsi bitabawe neza.

Igisambu cy'ikibara cyamaze gusarurwamo ibisarurwa by'ibigori, bigaragara ko ari ahantu hahinzwe ibigori maze bikabasha gukurwamo hakaba hatari hahingwamo ibindi bihingwa, ahubwo hakaba hakiri aho ngaho harimo ibisigazwa by'ibigori, ibitiritiri ndetse n'amababi y'ibigori, hagaragara ko ari umurima wahinzwemo ibigori.

Ikibara kidahinze, umurima uraho w'ikibara udahinze, utarimo imyaka, iruhande rwaho ukabona hariho ahantu hahinze imyaka igiye itandukanye, cyane cyane nk'ibigori cyangwa iyindi myaka, ariko akaba ari ikibara kidahinze kirimo ubusa, cyangwa ahantu bahinga ubwatsi bw'amatu..., ubwatsi bw'inka.

Umurima w'imyaka ugaragara nk'urimo imyaka igiye itandukanye harimo ibirayi n'ibigori barasaruyemo, harimo n'imihembezo bishoboka ko haba warashyizemo n'ibishyimbo kuko bigaragara ku ifoto harimo kuvanga imyanka ndetse n'indi.

Ishyamba ririmo ibiti by'inturusu, ishyamba n' ibiti bikura cyane birebire, bigaragara ko harimo n'ibiindi by'inganzamarumbo binini cyane, nk'uko bigaragara ku ifoto ko ari ibiti, harimo n'ibiti bitoya by'inturusu, ariko habonekamo n'ibikuru.

Umurima w'amashaza atarakura cyane amashaza akiri mutoya, akiri mu murima akaba ari amashaza agaragara ko ameze neza yatewe neza, kandi afite kuzatanga umusaruro yahinzwe no ku buso bunini bufatika, ku buryo hari icyizere cy'uko azatanga umusaruro mwinshi cyane, kubera ko asa neza kandi yafashwe neza n'ibara ry'icyatsi afite.

Igiti gakondo, igiti giteye mu rugo rw'ahantu rugaragara ko ari urugo rw'abakera, rugaragara ko ari urugo rukuze rwubatswe kera cyane, hateyeho igiti gakondo ibiti byagaragazaga umuco cyangwa bikirukana imyuka mibi, ku rugo cyangwa ku mazu y'abantu ku bantu babaga barabiteye hafi y'inzu.

Umurima w'imitabo ugaragara ko uri hafi y'gitari y'ishyamba, igitari bigaragara ko ari umurimo udahinzwe w'ikibara, hakaba nta myaka irimo ahubwo akaba ari ikibara kitari cyahingwa, cyaba cyahingwa igihe runaka kubera ko nta myaka irimo na mikeya muri uyu murima, akaba ari iruhande rw'igitari kiri gushibuka, ndetse n'igitare gikuze.

Igiti nyarwanda akaba ari igiti cy'umubunda n'ibindi biti utapfa gusanga ahandi, cyane nk'ibiti bya kinyarwanda, ibiti by'ibyatsi bifasha nko mu buvuzi gakondo bwa kinyarwanda, utapfa kubona ahantu hose hatandukanye, ibiti bigaragara ko biriho n'ibiko, ibiti bya kera cyane.

Umurimo w'ibirayi biri mu murima bitari byera, bimaze, byamaze kubagarwa, kuko bimaze no guterwa umuti wa detane ku mababi yabyo yo kubirinda indwara, kugira ngo bibashe kuguma bisa neza, cyangwa bimeze neza. Ibirayi biri mu murima bitari byera.

Umurima wa karoti bigaragara ko ari karoti zibagaye neza, zahinzwemo ibishyimbo ku mirongo ku ruhande rumwe, ku mitabo ku ruhande bakaba barahinzeho igihingwa cy'ibishyimbo, bagashingiriza ibitiritiri by'ibigori.

Abantu bari gusarura ibirayi, bigaragara ko bari mu murima bakaba bamaze gusarura bamaze kubishyira mu mufuka bakaba bagiye kubijyana mu rugo cyangwa bakabijyana ku isoko, nkuko bigaragara bari kubanza babihanagura bakabikuraho ibitaka bakabishyira mu ....

Igihingwa cy'imyumbati, ibisarurwa by'imyumbati ; bigaragara ko ari imyumbati basaruye ,imaze guhonga, imaze kugera mu rugo, kubera ko itari minini cyane, iteze cyane. Ariko ikaba igihingwa by'imyumbati cyamaze gusarurwa, imaze igihe isaruwe.

Abahinzi bari gufata amahugurwa ajyendanye n'ubutaka aho bari bugaragara ko bari kubabara wamanitse akaboko hejuru kugira ngo wababare, akaba ari umuyobozi usa naho uri umufashamyumvire mu murima wo kubaha amahugurwa agendanye n'igihingwa cy'amashu kuko mu murima w'amajwi.

Abahinzi bari gukorera mu murima bakaba bari gukorera imyaka yabo harimo imyaka igiye itandukanye uko bigaragara inyuma yaho hari urutoki usanga ari koperative bambaye n'imyenda isa, bakaba ari abantu bishyize hamwe bahinga bakita ku bihingwa, koperative y'ubuhinzi.

Abahinzi bafite ibihoho mu ntoki byo gushiramo ingemwe cyangwa imbuto z'ibiti byo gutera bigaragara ko bafite ibihoho mu ntoki zabo, bakaba ari abahinzi babigize umwuga cyangwa bakora umwuga w'ubuhinzi bari mu murima w'imyumbati n'ibitoki.

Abahinzi bari mu murima bari guhugurwa, kubigendanye nuko bahinga bigaragara mu murima w'amashu, ukaba bamanitse ibiganza nkaho bari kumvikana ku kintu runaka, cyangwa ngo babare neza, ariko ukaba ari abahinzi bari mu umurima bari guhugurwa cyangwa kwigishashwa ibijyanye n'ubuhinzi bwabo, bakaba bafite umuyobozi urikubahugura imbere yabo.

Umuhinzi urikwita ku musaruro bigaragara ko arikubagarira imyaka, imyaka ye harimo voka kakabamo n'izindi mbuto ntoya ngufi, bigaragarako arikwita kubihingwa bye biri mu murima.

Umusaruro w'ndimu, indimu nk'imbuto zimwe mu mbuto zikundwa cyane, zifite imiti myinshi, harimo n'izitukura cyane, nk'uko bigaragara zikaba ari indimu zasaruwe.

Umurima urimo amashuri ahinze neza cyane ,akaba ari amashu meza afite ibibabi bibiri bitoshye ,bigaragara ko yahinzwe neza kandi azatanga umusaruro, nkuko bigaragara ko ahinze ku mirongo akaba afite ibibabi binini cyane bigaragara ko ntakibazo yaba afite ,ahubwo azatanga umusaruro.

Koperative y'abahinzi bari mu murima, bari gukora ibijyanye no kureba ibihingwa, bimeze kubisura bakareba ko ikibazo bifite, bari gufata ibirori binyuranye n'amahugurwa ku buhinzi bwabo bwo bakora, bakorera mu murima wabo muri koperative yabo nk'uko bigaragara ko bitabiriye ari benshi.

Umurima w'amashuri ugaragara ko ari amashushu atameze neza cyane, kubera ko bigaragara ko atari yera ariko akaba yatangiye kugira amababi asa nabi, kuko ano mababi agaragara aba yararwaye aba yaripfunyaritse atagisa n'icyatsi, Kandi amashu ari mu murima ariko atameze neza cyane.

Umusaruro w'amaronji yeze ariko akiri ku biti agaragara ko akiri mu murima ariko akaba asa neza, ashobora kuba yanasanga igihe icyo ari cyo cyose ,nk'imbuto zahinzwe zikera neza kandi zikaba zaratanze umusaruro mwinshi.

Ibigori bigaragara ko bimwe bitonowea ho amababi ibindi bidatonowe ho amababi, bigaragaza ko hari ibiri ibigori gufata tubasaruyeho, ibigori byiza cyane urabona ko ari ikigori cyamarizori, hari ibigori bitonoye birimo mu nkangara iyo byashizwemo.

Umisozi ugaragaza umubande uhinzemo icyayi cyinshi cyane, harimo icyayi ku misozi ahantu hagiye hatandukanye, hagaragara ko ari ubuhinzi bw'icyayi, bugaragara kuri buri cyayi igikuze cyamaze gufatana bigaragaza ko cyahinzwe kera cyane.

Abahinzi bari kureba ibi bigaragara nk'ingano zasaruwe bakarunda ahantu batabasha kubihura ngo babikore mu imyaka. Kuba bateranye bari kureba icyo byabaye biri hasi ariho nkuko basobanurira hasa nkaho afite icyo kubageraho cyerekeye kuri uyu musaruro.

umurima w'ibigori bihinze neza, byenda kwera , bihinze ku mirongo, bisasiye, ukabona ko ari ubuhinzi bwa kijyambere. Burimo ibigori bisa neza ,byitaweho kandi bidafite indwara, ahubwo bisa neza cyane, bimaze guheka, bigaragara ko byakuze neza kandi bizatanga umusaruro.

umusaruro wa karoti zimaze igihe zisaruwe kubera zamaze gukubitwa n'zuba cyangwa zamaze kugerwaho n'izuba , kubera ko zitabitswe neza, zikaba ziri hasi, kandi zikaba zitangiye gukanyarara, bigaragara ko zirimo gusaza.

Umuhinzi uri mu murima w'ibishyimbo. Bigaragara ko arimo kurebwa ibishyimbo bye bishingirirwa. Ibishyimbo birebire , akaba ari mu murima w'ibishyimbo bishingirirwa, birebire, akaba ari byo arimo kwitegerereza.

Abaturage bahujwe no gukora akarima k'igikoni cyangwa ifumbire y'imborera, bakoresheje ibyatsi, bahuye ari benshi basa nk'aho ari koperative bahuriyemo bari gukora ifumbire, cyangwa akarima k'igikoni.

Umucuruzi uri gucuruza ibihaza bya kizungu ,kuba afite ibihaza byinshi kuko bigaragara ko ari mu isoko ryabyo , yabitondetse neza kugira agaragaze ubwiza bwabyo, ko bikuze kandi bimeze neza, bakaba bari kuza kugura.

Abahinzi bari mu murima bari gukora imirimo yo guhinga, bahingira imyaka irimo bashobora kuba bazateramo n'indi kubera ko imyaka irimo ari mikeya. Bahinga bakoresheje amasuka, amasuka asanzwe yo gukoresha nk'ibikoresho by'umuhinzi.

Umusaruro nanone w'ibinnyemboga n'imbuto bigaragaza ibinyomoro, amaronji n'amatunda, biri ku isoko bikaba bitondetse neza, kugira ngo abantu babashe kubibona neza, ku buryo umuntu wese yabasha kubigura aho biri ku isoko.

Umusaruro w'ibitoki wajyanywe ku isoko ugaragara ko ari ibitoki byinshi cyane bimaze kujyanwa ku isoko bikaba byaraciwe akaba ari abantu bari gucuruza ku ruhande , abandi bakaba bari kugurakora umusaruro w'ibitoki bajyanye ku isoko cyangwa ibicuruzwa.

Umuhinzi uri gutunganya umusaruro n'uko bigaragara ko ari kugosora imyaka kugira ngo zise neza zivemo ibisigazwa cyangwa ibintu bitameze neza biba byarasigaye mu bunyobwa bwe, akoresheje inkoko akaba ari kugosoza kugira ngo akuremo ibiti ibintu bitaba cyangwa imyanda..

Abahinzi bari gusasira igihingwa cy'amashu mu murima w'amashu, bari gushyiramo ibyatsi mo hasi, kugira ngo barinde ubutaka kuba bwakomera bukaba bwakuma, bakaba bari gusasira ibihingwa byabo by'amashu, kugira ngo bizabashe gutanga umusaruro neza. Urabona ko bishimiye ibikorwa barimo.

Umusaruro w'ibirayi uboko ari ibirayi biri aho bibikwa cyangwa aho bitunganyirizwa, ibirayi bishora kuba ari ibyo gutwaramo imbuto cyangwa ari ibirayi binini byo kugusha, kuko biri kuri hangari cyangwa ahantu bashira ibirayi bamaze ku bitunganganya, gukora ibirayi biri mu rugero rumwe, n'ibirayi biteguye neza kandi byamaze gusarurwa bisa neza.

Ifamu y'amatungo y'inka, aho bororera inka bigaragara ko hari inka nyinshi cyane, zigaragaza ko ari umworozi wabigize umwuga ufite inka nyinshi zo yorora, akaba yorora inka zirenze imwe n'umushumba wazo, bigaragara ko ari ahantu bororera inka, cyangwa ari ahantu bacururiza inka kubera ko ari inka nyinshi ziri hamwe.

Abantu bari gusoroma icyayi, bigaragara ko ari abasoromyi bari gusomaroma bakoresheje ibitete, aho bari mu murima w'icyayi aho bari gusoroma amababi, kugira ngo icyayi kibashe kuba cyajyanwa gutunganwa, kugira ngo kibashe kuvamo amajyani yo gukoresha mu cyayi.

Abahinzi bari gusorom icyayi, bari gukora mu murima w'icyayi, bigaragara ko bakora mu ruganda rw'icyayi, bari gusoroma umusaruro wacyo kugira ngo ujye gutunganirizwa ku rugamda.

Umusaruro w'ibigori byanitse ku mahema, ndetse harimo n'abakozi bari kugenda basanza cyangwa bari kugira ngo byume neza, kuko byanitse ku mashitingi, hasi kugira ngo bibashe kuma neza, bizabashe gutanga umusaruro mwiza.

Igihingwa gisasiye igihigwa bigaragara ko ari icy'imyumbati, kuko bigaragara ko bagisasiye kugira ngo barwanye isuri, cyangwa barinde ubuheherwe bwo mu butaka. Bakaba baragisasiye kugira ngo kibashe gukomeza gutanga umusaruro, cyangwa gikure neza kitari gutakaza amazi menshi.

Umuhinzi uri mu murima w'iwe akaba ari umurima w'ibigori ugaragara ko ari umurima w'ibigori, wuhirwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho, bwo kuhira bakoresheje imashini, bakoresha uburyo bw'imvura y'inkorano iri kugwa ku bihingwa.

Umusaruro w'ibirayi uri mu murima batari bashyira mu mifuka nk'uko bigaragara ko ari ibirayi bivanze: ibinini, ibitoya ndetse n'ibiriringaniye, akaba ari umusaruro bigaragara ko bakiri kubisarura, akaba yasutse hasi, aho bari kurunda ikirundo cy'ibirayi bakaba barabijyana ku isoko cyangwa mu...

Igihingwa ki ishu kuko bigaragarako ari urushu rwenda kwera, bigaragara ko rufite amababi menshi cyane kandi meza, ariko bigaragara ko ruzatanga umusaruro mwiza cyane, kuko bigaragara ko rufite amababi menshi kandi meza, rukaba rwaratangiye gupfunyika, akaba ari umusaruro cyangwa igihingwa cy'amashu.

Umufuka w'imyumbati, ibihingwa by'ibinyabijumba by'iwacu, imyumbati ikigaragara ko yajyanywe ku isoko, mu mufuka bawuzinguye neza kugira ngo bagaragaze ko ari myiza, ikuze kandi ikaba ari minini.

Umuhinzi uri mu murima we w'amatunda bigaragare ko amatunda yayakoreye neza akaba yeze, harimo atukuye ashobora kuba yasarurwa, ariko akaba atari yose ashingiriye neza ndetse akoreye neza, bigaragara ko yishimiye ko umusaruro uzaboneka igihe ageze ahantu heza, ibi bikaba bimushimishije ko amatunda ye yenda kwera.

Ibinyembuto, ibinyemboga byajyanywe ku isoko harimo pavuro ndetse n'amakaroti bikaba biri mu mabase biri ku isoko biteguye kugurishwa uko bigaragara ko byateguwe neza byajyanwe ku isoko.

Igiti cy'imyembe keze imyembe ikuze neza yatukuye, kuko ishobora kuba yanasarurwa, kubera ko yeze neza, bigaragara ko yasarurwa cyane igatanga umusaruro ufatika mwinshi.

Urubuto rwasatuwemo kabiri, ruzwi ku izina rya voka, akaba ari urubuto rukundwa cyane, nk'uko bigaragara, akaba ari urubuto rusa n'umuhondo mo imbere, rukaba rugira amavuta menshi cyane, nk'uko bigaragara akaba ari urubuto rusa nk'ururyoshye cyane.

Umworozi ufite inkoko nyinshi, akaba ari kuzigaburira kuko bigaragara ko ari kuzigaburira ibyo kurya bya kizungu. Akaba ari inkoko zigiye zitandukanye inkko za kizungu ziri kubasha gufata ibyo kurya byazo. akaba afite ibyokurya byazo mu ibase, akaba ari kugenda azishyirira mucyo ziriamo.

Umusaruro w'ibigori bitomeye arikotangiye bitangiye kurwara kubera ubukonje amahundo yasaruwe y'ibigori akaba yakushwa mu nhungungu rucacotisherwa gukoreshwamo kango ndetse n'igikoma n'ibindi.

Umusaruro w'intoryi zahinzwe zeze ziteguye kujyanwa ku isoko, zeze neza zikaba ari nini cyane, kuko bigaragara ko zahinzwe zikera, kandi zikaba zisa neza nta kibazo cy'inanda cyangwa cy'ibindi byorezo zigeze zigira, mu gihe zari ziri mu murima. Zisa n'izujuje ibisabwa.

Umusaruro w'ubujumba uri mu nkangara, hari n'icyo bavunnye kigaragaza ko mu nda gisa n'umuhondo cyane, kikaba ari ikijumba cyiza cyane cyabaye kinini cyakuze neza, ndetse bikaba byogeje bikwiye kujyana ku musaruro bigaragara ko ari ibijumba byiza.

Abahinzi bafite igihingwa cy'ishu, bavuga ko bamaze gusarura ishu ryabo bakaba basigaje kurikuraho ibisigazwa, barangiza bakarijyana ku isoko nkuko bigaragara ko ryeze riri gusarurwa bakaba bari mu murima.

Ingurube nini cyane zariye neza, nkaho ari umworozi w'ingurube ukora ubworozi bw'ingurube mu cyaro, nk'ahantu ho kororera amatungo n'ikiraro ndetse naho umworozi aba, mu rugo rwiwe ni ahantu mu cyaro.

Umuhinzi uri gusarura ibisarurwa bye by'imyumbati , uko bigaragara ko akaba akaranduye igiti cy'imyumbati ,kahaguraraho imyumbati iriho akaba ari igihingwa gisa n'icyeze ifite imyumbati minini kandi myinshi

Garagaza ubwoko bw'indwara wafashe ibihingwa yafashe igihingwa cy'imboga ,uko bigaragara ko akaba ari indwara gifashe ,kikabasha gusadagurika kikaza kugira ikibazo Kandi kitatanga umusaruro.

Karoti ,umusaruro wa karoti washyizwe mu mifuka, kuzuza bagasendereza cyane, aho bazamuyeho ibiti kugira ngo babashe gutondekaho izindi, kuko bigaragara ko ari umusaruro mwiza wabonetse, karoti zikaba ari nini ndetse zujujwe zitunganijwe neza ziteguye kujyanwa ku isoko.

Ubuhinzi bw'imyumbati, umuntu ugaragara nkuri gukora ibintu, imyumbati yeze cyane ikaba yari imyumbati myinshi, bigaragara ko ari imwe mu myumbati igezweho cyangwa ari imyumbati itanga umusaruro, ku rwego rwo hejuru kubera ko yatanze umusaruro mwinshi.

Abasoromyi b'icayi basoroma amabab y'icacyayi, kugira ngo abashe kuba yatunganywa, atange amajyani abone kuvamo umusaruro cyangwa icyayi kinyobwa kikajyanwa ku isoko mpuzamahanga, akaba ari abantu bari gusoroma bifashishije ibitete, ibitebo mu mugongo baheka mu mugungo.

Indimu ziri gucuruzwa ndetse n'ibinyemboga by'intoryi, hakaba hagaragara na pavuro. Ukaba uri kubona ko ari ibintu biri mu isoko bari gucuruza, bafunze ku mufungo kugira ngo abakiriya babe baza kubigura.

Ubworozi bw'ihene zororerwa mu kiraro, babara ko ihene ziri kurya ubwatsi mu kiraro cyazo. Zikaba ziziritse ziri mu kiraro bazizaniyemo ubwatsi. kugira ngo bazigaburire aho ziri mu kiraro bakazizaniramo ubwatsi ziziritse mu kwirinda kuragira ku gasozi.

Umurima w'ibinyomoro ugaragazwa n'ibinyomoro byiza binini bifite amababi akuze manini cyane, bigaragara ko ari ibinyomoro byiza bifite amababi meza, icyatsi gikomeye cyane bigaragara ko ari ibinyomoro byafumbiwe neza, kandi bifite amababi meza gusa bitabagaye bifite ikirare muri byo bimeze nkaho hameze mo n'ibindi byatsi

Ifoto y'imyaka myiza iri mu murima, hakaba harimo uburyo bwo kuhira cyangwa uburyo gucucira iyi myaka, hakaba harimo abakozi bari kuzenguruka bigaragara ko harimo amatiyo mo hasi atwara amazi. Harimo abantu bari kubikoresha ndetse harimo n'abazungu barimo barakora ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere.

Ikijumba cy'umutuku, kigaragaza ko cyeza ari kininicyane, cyeze kigaragaza ko ari kinini, atari bitoya, bikaba byarakuze neza, bigasa neza mo hagati, kigaragazamo hagati ko ari kizima, gisa n'umutuku.

Umuhinzi ugaragaza nk'uvuye mu murima cyangwa uri kujya. kuva mu murima ari gutaha nyuma aho uvuye gukora agaragara afite intoki zisa nabi, bigaragara nkaho yahoze ari mu murimo uri kwita ku myaka cyangwa ari guhinga, n'umukecuru detse mukuru bigaragara ko amaze igihe akora mu buhinzi, afite uburambe mu kazi k'ubuhinzi.

Umuhinzi uri gusarura igisarurwa cy'ibigori ,bigaragara ko ari ibigori byeze neza akaba ari gusarura ari kugenda ahaguraho cyangwa akuraho ibigori, kuko bigaragara ko ari gusarura ibisarurwa bye by'ibigori mu murima.

Umu mama wikoreye ibintu mu mufuka, wikoreye ifumbire akaba ari mu murima ari gutera imyaka, akaba yagiye guhinga agaragara ko yikoreye ifumbire ari ukujyana mu murima aho agiye gukorera imirimo ye yo guhinga iyubuhinzi.

Ibiti by'intoryi bigaragara ko ari intoryi zeze zishobora kuba zasarurwa, zikaba ari intoryi zishingiriye neza çyane bigaragara ko ari intoryi zatanze umusaruro, cyangwa ziri gukura neza kuko zifite imbuto nyinshi kuri zo, zikaba zashobora kuba zasarurwa. Bikaba ari ibiti bimeze neza cyane bigaragara ko bifumbirwa neza, kandi bifite uburyo bwiza bwo kubyuhira, hakoreshejwe ubwoko bwo kuhira bwa bwo kuhira.

Igiti cyamaronji kigaragaza ko ari amaronji yeze yiteguye gusarurwa akaba yasarurwa mu gihe icyaricyo cyose kubera ko bigaragara ko yeze cyane nta kibazo afite yabasha kuba yasarurwa.

Abahinzi bari gushyira ifumbire ku bigori. Umurima w'ibigori bari gushyira ifumbire ku myaka kugira ngo, ize kuba myiza kurushaho, kubera ko bari kuyuhira bashiraho n'ifumbire nyinshi cyane, kugira ngo bikure neza.

Abahinzi bari mu murima bari gukora igikorwa cyo guhinga imyaka, nk'uko bigaragara ko ari abaturage ndetse hari abaturage bari kumwe n'abayobozi bishoboka ko bari mu gikorwa cy'umuganda nk'uko bigaragara, bari gutera ibihingwa bitandukanye bishobora kuba ari ibijumba, cyangwa ibiti bakaba bari mu murima, bari gukora bafite amasuka ndetse bambaye n'amabote

Imyaka y'ibishyimbo iteye ku murongo, kuko bigaragara ko ari ibishyimbo biteye ku murongo, biteye neza akaba ari bito bikaba bihinze ahantu hahinze nko mu rukoro, hashobora kuba harimo amabuye y'amakoro.

Umuntu wikoreye ibisigazwa by'ibyatsi akuye mu murima, hakaba harimo n'ibiti ashobora kuba agiye gufumbira cyangwa abijyanye mu rugo kugira ngo abigaburire amatungo, akaba afite umuhoro, akaba yabipfunyitse mu gifuka kugira ngo abashe kubikorera abitware.

Inzu y'ibyatsi igaragaza nk'inzu yabagaho kera zishakakaje ibyatsi mu buryo busa nk'aho ari ubwa kera, ikabi ikoze mu buryo isakaje ubwatsi, ikaba isa n'ibyaciwe mu Rwanda bya nyakatsi, byo kubaka inzu za nyakatsi.

Ibitunguru ndetse n'insenda ndetse n'utundi tubuto twameze, twatunganijwe neza bakoresha nk'imbuto, bajya kudutera mu murima tukaba dukoreshwa mu bundi buryo bugiye butandukanye, ariko akaba ari ibintu by' ibinyemboga.

Ibishyimbo bitukura bigaragara ko biri kumera, bikaba byarazanye umumero bikaba byaratangiye kumera. Bisutse ahantu, gusa ntabwo biri mu murima. Byamereye aho bibitse kubera ko byakonje cyangwa bikagira ikindi kibazo, bikaba byaratangiye kumera.

Umuntu uri kurobanura ibishyimbo bigaragaza ko ari gutoranya ibishyimbo ari kubishyira mu ibase , ari gukuramo ibyarwaye n'ibyapfuye bisutse hasi umusaruro usutse hasi akaba ari ugutoranya ibitameze neza akaba ari kubikuramo.

Umurima w'amasaka ufite ihundo ry'isaka bigaragara ko ari umurima wenda kwera nk'uko bigaragara ko isaka ryamaze gupfundura ariko rikaba ritarera, rikaba ritarakomera ngo rivemo amasaka akomeye kubera ko bigaragara ko acyoroshye.

Umusaruro w'ibigori hamwe n'impungure ziri mu mifuka bya marizori ibigori by'ubwoko bwa marizori. Birimo mu mifuka. Bakoresha ingemeri mu gupima ingano y'ibigori bari bugurishe ngo bagakoresha ikigero cy'ingemeri.

Inzu y'ibyatsi, imbere hari isekuru n'umutwaro w'inzu n'imyaka, n'abantu bicaye aho ngaho wagira ngo ni abantu baje kubasura cyangwa kuhareba, hakikijwe n'urugo rw'ibiti bigaragara ko ari inzu ya kera.

Umubyeyi uri kugosora umusaruro akoresheje intara, akaba ari gusimbiza ibintu abijyana hejuru kugira ngo bivemo imicucu, cyangwa ibindi bisigazwa byaba byarasigayemo, kugira ngo umusaruro we ukomeze use neza, uza kuba ari umusaruro w'ibishyimbo cyangwa w'ingano

Umusaruro w'umuceri udatonoye, cyangwa ingano zidatonoye, bigaragara ko bikimara gusarurwa, bitaratunganwa ngo bibe byajyanwa ku isoko, kuko umuceri utaratonorwa ukiri mu bishishwa byawo.

Imifuka y'ibishyimbo irimo ibishyimbo bihuye, bisaruye kandi bitoranijwe neza. Bigaragara ko ari umusaruro mwiza, waba uteganywa kujyanwa ku isoko cyangwa ukaba uri ku isoko muri icyo gihe , kubera ko uratunganijwe, uranoze neza, uragosoye, uvanywemo imyanda.

Akazu k'ibyatsi karimo ibigori ndetse n'igisabo cyangwa ikintu cyo gubikamo imyaka kinini. Hari akazu ko gukoresha mu muririmo kadasa neza agaciro hatagwamo abantu benshi ariko kakaba ari akimandwa cyangwa abantu ba kera baramirizagamo abakurambere babo, uko bigaragara.

Umusaruro ushaka ku bigaragara ko arimo ari ibintu twatsi bimeze nk'amajeri bigaragara ko arirutubuto dutoya cyangwa ingano, cyangwa amasaka ashobora kuba asutswe hasi kugira ngo abashe kuba yatunganywa havamo ibyiza, cyangwa yakwandikwa kugira ngo abashe gukoreshwa cyangwa gukoreshwa.

Amashaza atetse, ari mu isorori, bigaragaza ko ari gukoresha akamomiyo, ari kuyarura, ari kuyakura mu isorori, kugira abashe kuba yagaburira abantu.

Abantu bari guhura, bari guhura umuceri cyangwa ingano bagaragara ko bari guhura bakoresheje ikibando aho bari guhura kugira ngo bakuremo umuceri cangwe ingano kuko bigaragara, bakaba bari barasaruye bakabizana mu rugo bakaba bari kubihura kugirango ngo bakuremo imisovu.

Ibihingwa by'imiteja bishobora kuba ari ibishyimbo bigaragarako bitari byera, bizatanga umusaruro nyuma yuko bizanyemo impeke mo imbere akaba ari ibihingwa biri mu kigero cy'imiteja, nyuma bikaba bizazanamo imbuto mo imbere byarangiza bigasarurwa, bikaba ari ibishyimbo birebire bishingirirwa.

Umurima w'imyaka bigaragara ko ishobora kuba ari imyaka y'inyanya, n'ibindi bihingwa bihingwa ku murongo, hakaba ari imyaka iteye neza ku murongo bigaragara ko ari imyaka isa neza iri mu kibaya, ahantu hameze neza hasa neza cyane, hakaba harimo hashize umwanya uringaniye ku buryo iyo myaka izashobora gutanga umusaruro.

Umusaruro w'amajyeri ugaragaza ko umusaruro weze neza wamaze gutunganywa, yumye ari mu ibase ategereje kuba yajyanwa ku isoko nyuma y'uko asaruwe, ni amajyeri meza cyane uko bigaragara.

Igihingwa cy'ibishyimbo kiri mu murima, kubera ko ibishyimbo bifite imiteja iriho imishogoro myiza cyane, kubera ko ari igihigwa kimeze neza, bigaragara ko gishobora kuba kizatanga umusaruro mwinshi cyane, kubera ko bisa neza cyane nta ndwara, nta kibazo cy'indwara bifite ku...

Umwana uri kurya bigaragare ko ari kurya igi bamutonoreye, igi akaba ari kurirya akaba ari kurya arifatishije intoki, intoki ze kugira ngo abashe kurirya.

Inka z'inyarwanda z'inyambo zororwaga kera, ziboneka cyane mu burasirazuba bw'u Rwanda, kuba ari inka zigifite amahembe manini, zikaba zikunze cyane gusurwa n'abakerarugendo kubera ko bitaboneka henshi.

Ubworozi bw'inkoko bwa kijyambere bigaragara ko harimo inkoko nyinshi ziri munzu aho zororerwa cyangwa aho zororerwa n'ibikoresho byogukoreshwa aho zinywera amazi habugenewe hafite uburyo bwiza bwo kunywa amazi. ni ubworozi bwiza bugezweho butanga umusaruro.

Inka nini y'imbyeyi ibyibushe cyane, nziza y'igaju kandi yariye neza. Bigaragara ko nta kibazo cy'inzara ifite, ikaba iri mu rwuri.

Umworozi w'ingurube ingurube bigaragara ko iri mu kiraro, abaveterineri baje kuyisura baje kureba uko imeze isa nk'aho ifite amezi makuru yenda kubyara, kuko bigaragara ko ari nkuru cyane kandi ikaba ifite icebe rinini cyane, ishobora kuba iri hafi kuba yabyara ikaba ifite amezi cyangwa utwana dutoya.

Veterineri uri kwita ku matungo, ugaragara nk'uri gukingira inka icyorezo gishobora kuba cyateye, kubera ko ari mu kiraro cy'inka ari kuzitera inshinge zo kuzirinda indwara, cyangwa kuvura indwara ishobora kuba yaziteye muri icyo gihe.

Aho babagira amatungo, bakagurisha inyama, hazwi ku izina ry'ibagiro, aho babaga amatungo agiye atandukanye, abantu bakaza kugura bagatwara inyama, bakaba babasha kujya kubizirya iwabo mu ngo bitewe n'ubwoko ushaka, iz'amagufwa cyangwa se izitari iz'amagufwa, ukaba wabasha kuzihabona.

Umubyeyi ufashe ihene ntoya y'umwerere igaragara ko ari ntoya kandi akaba ari umuntuma uciriritse kuko bigaragara ko inzu ye cyangwa aho atuye ari ahantu ho mu icyaro cyane hagaragazwa n'uko hasakaje ibyatsi, umuntu nyine uciriritse w'umukene.

Ubworozi bw'amatungo y'ingurube ari mufamu y'ingurube, arikwita ku ngurube ziwe ko bigaragara ni mu kiraro cy'ingurube aho ingurube ze ziba aho zifatira ibyo kurya. Ni umworozi wabigize umwuga kubera ko harimo ingurube nyinshi zirenze imwe kandi ni ingurube nziza.

Umuntu uri gufuhera umworozi uri gufuhera inka, ari kuzikingira indwara uko bigaragara ari kuzitera ku mugongo kugira ngo azirinde, ayirinde indwara inka iri mu kiraro aho yororewe ari kuyitera imiti, kugira ngo ayirinde indwara z'uruhu no kwica udukoko.

Ingurube za kizungu bari kugaburira ziri mu kiraro cyazo, bazishyiriyemo n'isaso mu kiraro cyazo barakora ahantu hameze neza, bari gukora ifumbire bagasasamo ibishariro, kugira ngo bagire ifumbire bakoramo, bakaba bari kuzigaburira ziri kurya.

Inka bashyize mu mbariro, bigaragara ko bari kuzitera inshinge mu gihe cyo kuzikingira indwara zitandukanye, bazinjiza muri kino kintu kimeze nk'imbariro, kugira ngo zibashe guhagarara zidatera amahane, babashe kuzitera inshinge zo kuzirinda indwara mu gihe k'ikingira.

Inkwavu ziri mu kiraro, bari kugaburira ibyo kurya byazo ziri kurya ubwatsi, inkwavu nziza zimeze neza mu mabara y'umweru n'umukara, zigaragara ko zisa neza cyane zikaba ziri kurya ubwatsi.

Inyoni n'inyamaswa yo ku gasozi y'igihunyira bivugwa cyane ko ireba nijoro gusa itajya ireba ku manywa, akaba ari inyamaswa isa n'iteye ubwoba mu nyamaswa z'inyoni ziguruka mu kirere.

Igisiga gishobora kuba ari nk'igihunyira kigiye kubaka, uri kubona ko gifite agati ko kuza kubakisha icyari cyo kubamo, uko bigaragara kigiye kukajyana aho kiri kubaka icyari, cyangwa inzu yacyo yo kubamo, yitwa icyari.

Inyamaswa yo mu ishyamba y'inkende ifite n'umwana wayo bigaragara ko ari inyamaswa yo ku gasozi iboneka cyane cyane mu birunga byo mu Rwanda. Mu birunga byo mu Rwanda abakerarundo bashobora kuba gusura bakareba.

Ingagi ni inyamaswa dusanga muri parike y'ibirunga y'u Rwanda. Ziboneka muri Musanze, henshi, harimo Karilisimbi. Bigaragara ko ari ingagi ziri kumwe, zitonze, zicaye hamwe,...

Inyoni ifite amababa ishobora kuba ari isarukondo cyangwa inyamanza, igaragara ko ari inyoni isa neza. Iri ahantu mu kibara ikaba ari inyoni ndende ishobora no kuba ikunze kuguruka cyane, kubera ko ifite amababa.

Inyamaswa y'ingwe igaragara ko yafashe akandi gasimba gatoya, kameze nk’agakwavu, ikaba igatwaye mu kanwa. Ivuye ku kica, kaba yakatwaye mu kanwa, yagafashe. Bigaragara ko kahizwe, kapfuye. Iyi ngwe ikaba igiye kukanya.

Inyoni yitwa igikona, nkuko bigaragara mu mabara y'umweruru n'umukara, ni mu bwoko bw'inyoni zihagaze ku giti, inyoni y'igikona akaba ari inyoni zimwe mu nyoni zo mu ishamba, zigaragara mu bidukikije.

Inyamaswa y'ingurube bigaragara ko ari ingurube imeze neza itari mbi cyane, igaragara ko ari inyamaswa ishobora kuba yakororwa. Gusa na none ika ifite ubwoya bwinshi nk'iziba ku gasozi.

Inyoni iri mu cyari cya yo ikaba iri kumwe n'ibyana bya yo byasamye bitegereje kubona icyo nyoni ibizaniye, ikaba inyoni iri mucyari ifite utwana dutatu, ndetse ikaba yaje mu cyari iri hamwe na two .

Inyoni zo mu ishyamba zigaragara ko ari inyoni ndende cyane, zigira agasatsi ko hejuru, zikaba ari inyoni zitapfa kuboneka ahantu aho ariho hose, ahubwo ikaba ziboneka muri Parike y'Ibirunga, kubera ko ntabwo zibasha kuba ahantu aho ariho hose, zifite amabara meza, ndetse n'ijosi rirerire.

Inyamaswa y'ishyamba iboneka cyane mu birunga, bigaragara ko ifite amahembe ku mazuru. Ikaba ari inyamaswa isa n'iteye ubwoba, ikurikiwe n'utwana twayo dutatu. Ikaba yagiye imbere utwana twayo turi kuyikurikira zikaba ziri mu ishyamba.

Inyoni zihagaze zi bw'amafumbi zihagaze ku biti byo batemye, bigaragara ko inyoni zikonjeza abana hakunda, umuriro w'ubushuhe kuko bigaragara kozuguye ubwoguya kugira ngo zibe zagahangana n'ubukonje.

Ingurube isa nabi, ishobora kuba ari ingurube yo ku gasozi, yitwa isatura isa nabi cyane, atari yo yo mu rugo kubera ko ni igisimba gikomeye cyane gisa n'igiteye ubwoba, bigaragara ko atari iyororwa mu rugo cyangwa atari itungo ryo mu rugo.

Ifoto y'inkende cyangwa ingagi yo ku gasozi, iboneka mu birunga akaba ari ingagi cyangwa inkende yo mu bwoko bw'inyamaswa, igaragara mu birunga muri pariki z'ibirunga zo mu Rwanda, n'inkende iri mu ishamba.

Urukwavu mu ishyamba ruba ari urukwavu mu bwatsi bwishi cyane, akabura urukwavu mu ishamba rukureba kureba c kwi mutwican no uku ibintu bye bitandukanye, arikwavu ko mushamba.

Inyoni iri kurira, iri ku giti gikuru cyane cy'inganzamarumbu cyazanyeho ibyatsi by'amarebe cyangwa urabonako ari ibiti bikuru cyane bimaze igihe, ikaba ari inyoni yo mu ishyamba idakunze kuboneka cyane.

Inuma isa neza cyane igaragara kuri inyoni nziza. Inuma iri ahantu hasa no mu butayu cyangwa iri yonyine. Inyoni iba isa neza cyane n'ikiguruka ,ushobora kuba yakororerwa mu rugo gusa akaba ari inyoni y'agasozi yitwa inuma.

Inuma za kizungu ziri ahantu bigaragara ko ari inuma zo mu bwoko bw'inyoni nziza cyane, zishobora kuba zikundwa cyangwa zigaragaza ahantu hekunda kuboneka, ahantu mu bigo byiza cyangwa ahantu hasa neza, haboneka ibyo kurya nk'umuceri cyangwa ibindi binyampeke bigiye bitandukanye.

Inyoni iri kujya kururabo ishaka guhova, cyangwa kurya ururabo kugira ngo ibashe kuba yabona ibyo gushyira utwana twayo, cyangwa ibona ikiyitunga ubwayo, ni inyoni ishobora kuba ari inyamanza cyangwa ubwoko bw'inyoni nziza ifite umunwa muremure yo y'ishamba

Umuntu wambaye isaha ariko hakaba inzoka imuri ku kaboko, bigaragara ko ari inzoka afite ikaba yaramufasheho imugumaho imwizingiraho cyane, bikaba bigaragara ko atari n'inzoka imwe, zikaba ari inzoka nyinshi zirenze imwe, ebyiri, ziba zimuriho.

Inyoni iri mu giti, bigaragara ko ari inyoni y'ishamba ifite umunwa muremure iri mu giti gifite amashami menshi. Ikaba ari inyoni igaragara ko ikonje kubera ko ari mugihe cy'ubukonje, yamanuye ubwoya, ifite umunwa muremure.

Ifoto y'imbwa y'ishyamba cyangwa se igihomora, igaragara ko ari imbwa yo ku gasozi iri mu ishyamba. Ibyatsi byinshi cyane ikaba igaragara nk'aho ari ahantu hari ubukonje bigaragaza ko ari imbwa. Ishamba cyangwa se igihomora kiba ari imbwa yavuye mu rugo cyangwa se imbwa yo ku gasozi.